Abantu benshi cyane baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu bambaye amakoti meza ndetse n'amapantaro. Murabona ko bahurijwe hamwe n'ibikorwa bigiye bitandukanye.

Inyubako yateraniyemo abantu benshi bari kwiga ku bibazo bigiye bitandukanye, bambaye imyenda y'umweru, umuhondo n'ubururu, bari mu nama ikemura ibibazo bafite.

Abasore babiri barimo kuganira, bari ahantu mu nyubako nini irimo amakaro ndetse na parafo hejuru, abasore bambaye imyenda irimo amabara y'ubururu ndetse na kaki.

Abantu bari ku iriba barimo baravoma amazi, ni abana bato bafite utubido dutatu baje kuvoma amazi, biragaragara ko hari umuzungu uri kubafasha.

Abayobozi bari kwita ku bihingwa, bambaye imyenda iri mu mabara y'umutuku. Iyo umuntu ari umuyobozi bisaba ko yegera abaturage, akamenya neza ikibazo bafite.

Umwana waje ku iriba kuvoma amazi afite utubido tubiri, inyuma ye hari umusore uri kugenda apompa amazi kugira ngo azamuke maze abona ayo akoresha.

Abantu bahuriye ku iriba baje kuvoma amazi, bambaye imyenda irimo amabara y'umukara n'umweru, bazanye amajerekani manini kugira ngo bacyure amazi menshi.

Ibikoresho byifashishwa mu kuvoma amazi harimo indobo, amajerekani ndetse n'ibindi, ku iriba hariyo abantu baje kuvoma kugira ngo babone amazi meza.

Kera twakundaga kujya kuvoma tugatindayo, twataha bakatubaza impamvu twatinzeyo, akenshi twabaga turi mu gakungu turi kwikinira n'amazi.

Inyubako ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye, isize amarangi y'umweru isakaje amabati y'umutuku kandi iri ahantu heza k'umudugudu.

Umuntu bigaragara ko afite ikibazo cyo mu mutwe, afite imisatsi myinshi ndetse n'ubwanwa bwinshi, akeneye umuntu umwitaho kugira ngo asubire mu muryango Nyarwanda asa neza.

Abantu bahagaze imbere y'inyubako bambaye neza, harimo abagabo ndetse n'abagore, biragaragara ko ari abayobozi bavuye mu nama, bari barimo gukora.

Mu nyubako hateraniyemo abantu benshi bambaye imyenda myiza, harimo umugore ufite indangururamajwi ari gutanga ikibazo cye kugira ngo gishakirwe igisubizo.

Abana benshi bari kumwe n'umukecuru, bicaye impande ye bigaragara ko ari abuzukuru be. Bari kuganira baseka kandi bishimye.

Abana baje kuvoma amazi bambaye imyenda yacitse, aba bana biragaragara ko bakwiye kwitabwaho kugira ngo babashe kumera neza bagire ubuzima bwiza.

Abantu bahuriye mu gace kamwe baje kwa muganga kwisuzumisha indwara zitandukanye, muganga ari kubakira agendeye ku murongo uko bagiye baza.

Umusore uri gukoresha akadodo asukura amenyo ye, kubera ko iyo ukoresheje korogate n'uburoso buriya ntabwo imyanda iba yashizemo neza.

Umusore wambaye umupira mwiza, afite agakoresho kifashishwa n'abaganga bari kuvura abarwayi. Uyu musore arimo guseka kandi bigaragara ko yishimye.

Umwana mutoya cyane ufite uburoso ari kugenda akoresha kugira ngo asukure amenyo ye, uyu mwana yatojwe akiri muto azi akamaro k'isuku.

Umusore uri kwitabwaho na muganga kugira ngo akire indwara afite y'amenyo, aryamye ku gitanda, muganga ari gukoresha ibikoresho byabugenewe mu kuvura amenyo.

Iyo umuntu akoresheje uburoso na korogati asukura amenyo ntabwo imyanda yose iba yashizemo, bisaba ko ukoresha akadodo kugira ngo n'iyindi yasigayemo ishiremo.

Umuganga uri kwita ku musaza kugira ngo amuvure indwara zigiye zitandukanye. Iyo umuntu ageze mu zabukuru, akenshi akunda guhura n'indwara za hato na hato.

Umubyeyi uri kumwe n'abana be ndetse n'abuzukuru be bari kuganira, arishimye cyane kubera ko umuryango we nawo uramwishimiye.

ababyeyi bambaye imyenda irimo amabara yu'mweru umuhondo ndetse n'umukara. Bari ahantu mu murima barimo kwifotoza.

Umukecuru wambaye indorerwamo z'amaso afite imisatsi y'imvi, yambaye umupira w'ubururu, ari mu nyubako nini ihenze, isakaje amabati meza.

Umuganga uri kwita ku mukecuru, arimo aramukoresha udukorwa duto duto kugira ngo arebe ko yakize koko, ni ukugira ngo abone uburyo yamusezerera agasubira mu rugo.

Abagore batatu barimo guseka bambaye imyenda myiza irimo umweru, ubururu n'umuhondo, aba bagore kandi biragaragara ko bakuze bafite imyaka hejuru ya mirongo itanu.

Umugore n'umugabo barimo kutwereka uburyo twakisuzumisha indwara y'igituntu kubera ko ivurwa igakira. Biragaragara ko ari abayobozi.

Abantu bahuriye mu nyubako bari mu nama. hari imbere yabo abantu bari kubyina bateze amaboko bigaragara ko basusurutse. Abantu bitabiriye inama bishimye cyane kubera imbyino babagejejeho.

Inyubako yahuriyemo abantu baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu. Imbere yabo, hari abayobozi bari kubagezaho imbwirwaruhame babateguriye bityo bagacyura ubutumwa bahawe neza.

Abaganga bambaye imyenda yabugenewe, bari kuvura abarwayi, bambaye udupfukamunwa ndetse n'ingofero bakoresha mu gihe bari kuvura abantu barembye.

Inyubako iri ahantu heza ku mudugudu, iyi nyubako yubakishije amatafari ahiye kandi iteye irange ryiza ry'umweru n'umuhondo.

Ibikoresho byo kwa muganga byifashishwa mu gupima abarwayi indwara zigiye zitandukanye, iki gikoresho umurwayi bakimuryamishaho maze bakabona indwara afite.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, isize amarangi y'umuhondo n'umweru, hari kujyayo abantu benshi, bajya kwivuza indwara zitandukanye.

Umuganga urimo kwita ku murwayi arimo kumutera urushinge, uyu muganga biragaragara ko yabihuguriwe kandi afite impamyabumenyi ihambaye yakuye muri kaminuza.

Inyubako irimo ibitanda biryamishwaho abarwayi, mu gihe bari gusuzumwa, ni kwa muganga aho bavurira indwara zananiranye.

Umuganga uri kwita ku mukecuru. Iyo abantu bageze mu zabukuru bakunda kurwaragurika. Baba bakeneye umuntu ubitaho akabavura indwara baba bafite.

Inyubako yo kwa muganga itangirwamo serivise zigiye zitandukanye. Aha hantu ni ho bavurira abarwayi kugira ngo babashe gukira vuba. Hari ibitanda byiza ndetse n'intebe.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bijyanye n'ubuvuzi, harimo indabo nyinshi kandi zikikije iryo vuriro, hari umuhanda uganayo wubakishije amapave.

Inyubako nini isize amarangi y'umweru n'umukara, yubakishije amatafari ahiye, iruhande rwayo hari indabo nyinshi zigiye ziyikikije.

Ikigo nderabuzima cya Nyarurenzi, ni ikigo gifasha abarwayi benshi, iyo urwaye biba byiza iyo uhageze, baragufasha ugataha wakize.

Inyubako irimo ibikoresho byifashishwa n'abaganga kugira ngo bavure abantu batandukanye. Ibi bikoresho harimo ibiri mu mabara y'umweru ndetse n'umukara.

Inyubako irimo amabara agiye atandukanye, harimo umweru, umukara, umuhondo ndetse n'ubururu, hari ibikoresho byinshi byifashishwa n'abaganga.

Inyubako nini, irimo ibitanda byiza biryamishwaho abarwayi. Ni kwa muganga, ahatangirwa serivisi zigiye zitandukanye kugira ngo abantu babashe gukira vuba.

Ibitaro bya ruhengeri bifashirizwamo abarwayi bagiye batandunye, bahavurira abantu barembye bityo bagasubira mu buzima busanzwe.

Muganga arimo yita ku murwayi yamwicaje mu gatebe kugira ngo amusuzume neza, iyo ugiye kwa muganga urembye bakwitaho maze ukabasha gukira.

Umusore uri kunywa amazi, yambaye umupira w'umukara. Uyu musore afite icupa ryiza riri kuvamo amazi. Avuye mu myitozo ngororamubiri kandi arishimye.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri yambaye imyenda y'umweru n'umukara, ni umwana ubona ko afite imibiri yombi kandi ari ahantu mu nyubako irimo intebe z'imisego.

Inyubako irimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gihe bari gukora imyitozo ngororamubiri, muri ibyo bikoresho harimo ibyo baterura, ibyo baryamaho n'ibyo bahagararaho.

Umusore uvuye mu myitozo ngororamubiri yambaye isengeri y'icyatsi. Uyu musore afite icupa ry'amazi ari kuyimenaho kugira ngo akire amahumbezi.

Iyo umuntu ageze kwa muganga, haba hari icyizere ko yakira. Iyo muganga aguhaye imiti, uyifata uko yabikubwiye kugira ngo utabusanya n'amabwiriza wahawe.

Umusore urimo gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo agire ubuzima bwiza, iyo umuntu akoze siporo birafasha kuko yirinda indwara nyinshi zituruka ku mubyibuho ukabije.

Umukobwa uvuye mu myitozo ngororamubiri ari kunywa amazi, afite isuyime ku rutugu ari gukoresha yihanagura kubera ko yatutubikanye cyane.

Ibi ni ibikoresho abantu bakenera mu buzima bwa buri munsi, iyo ufite ibikoresho biragufasha ugakora neza bityo ukiteza imbere ariko iyo nta bikoresho ufite uradindira kuko utabona ibyo ukoresha.

Umuganga ufite agakoresho kabugenewe mu gupima umutima uko utera, afite ikindi gikoresho mu ntoki na cyo yifashisha kugira ngo avure abarwayi.

Umusore uri gukora imyitozo ngororamubiri. Siporo ni nziza kuko irinda umuntu indwara zigiye zitandukanye, zituruka ku mubyibuho ukabije.

Abantu barimo kubaka buriye urwego, bari kugenda bafata ibikoresho bishaje bakabisimbuza ibishyashya kugira ngo inyubako ikomeze gukomera.

Umuganga urimo kwita ku murwayi, arimo aramuvura yavunitse akaguru. Iyo umuntu akoze imyitozo ngororamubiri bituma abasha gukira indwara zigiye zitandukanye.

Igikakarubamba ni umuti wifashishwa bari kuvura indwara zigiye zitandukanye. Uyu muti iyo uwukoresheje neza urakira, maze ugasubira mu buzima busanzwe.

Umugabo wambaye ingofero yo mu mutwe, ari mu iduka ricururizwamo ibintu bigiye bitandukanye, uyu mugabo kandi ashinzwe guteza imbere ubucuruzi.

Imiti gakondo iyo ikoreshejwe neza irafasha, ituma umuntu abasha kugira ubuzima bwiza, bityo ntiyirirwe ajya kwa muganga kuko aba yakize.

Imiti gakondo ivura indwara nyinshi zitandukanye. Iyo umuntu akoresheje umuti gakondo neza uramufasha maze agasubira mu buzima busanzwe agakora imirimo isanzwe.

Uyu ni umuti wifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye. Iyo umuntu arwaye bisaba ko anywa imiti kugira ngo abashe gukira.

Imiti igiye iri mu ducupa dutandukanye, yifashishwa n'abantu kugira ngo bivure indwara zitandukanye. Iyo ukoresheje imiti gakondo, ubasha gukira vuba.

Imiti gakondo igiye iri mu ducupa dufite amabara atandukanye, icyatsi, umuhondo ndetse n'umukara, iteretse ahantu ku meza bigaragara ko ari kwa muganga.

Umugabo uri mu ishyamba ari kugenda atema ibiti kugira ngo abikoreshe, iyo umuntu akeneye ibikoresho akenshi ajya kubishaka aho biri.

Igikakarubamba ni umuti mwiza uvura, iyo ukoresheje uyu muti neza uragukiza bityo ugasubira mu buzima busanzwe, uyu muti kandi uvura indwara nyinshi zigiye zitandukanye.